Icyumba kirimo umuce usa neza wicayeho abana benshi, bari guhabwa igikoma n'umubyeyi bari hagati y'imyaka ibiri n'itanu.

Abanyeshuri b'incuke bicaye hamwe mu cyumba cy'ishuri, bakikije ameza magari ari hagati yabo.

Abana bicaye ku muce usa neza bari guhabwa icyo kunywa, bigaragara ko bari kwitabwaho mu buryo bw'imirire; bari hagati y'imyaka ibiri n'itanu.

Abana bato b'inshuke bari hamwe bakoze uruziga bafatanye amaboko, hagati mu ruziga harimo umubyeyi uri kubafasha gukina.

Icyumba kirimo abana, benshi bato, bicaranye n'umuntu mukuru, wambaye itaburiya yanditseho ituze, bicaye ku muce mwiza usukuye.

Icyumba kirimo abanyeshuri bicaye ku ntebe, hari n'umubyeyi umwe wicaye ku ntebe, undi arahagaze afashe igitabo mu ntoki arimo kubigisha.

Abana bato b'incuke bari ku murongo, imbere yabo hari kandagirukararabe n'ababyeyi babiri, umubyeyi umwe ari kubereka uko bakaraba neza.

Abanyeshuri bicaye hasi mu kibuga bakoze uruziga rw'igice, imbere yabo hari umwarimu ufite ikayi uri kwereka umwana bahagararanye.

Abana bato b'abanyeshuri, bari hepfo y'ishuri mu murima, bari kumwe n'umwarimu wabo asa nk'uri kubereka ko bahinga imbuto.

Icyumba gishashemo umuce mwiza, wicayeho abana batoya, barimo gufata amafunguro, bambaye inifomu.

Abana bato bicaye ku muce mwiza usukuye bari kumwe n'umubyeyi bari kwitabwaho bahabwa indyo yuzuye baywa igikoma basa nk'abari hagati y'ikigero k'imyaka ibiri kugera kuri itanu.

Abana babiri b'abanyeshuri bambaye uniform, bari kugenda bakurikiranye mu muhanda w'igitaka.

Abana b'abanyeshuri bo mu ishuri ry'incuke, bose bambaye inifomo, bicaye hamwe ku ntebe bakikije ameza manini ari hagati yabo.

Inzu nziza isukuye, irimo imice ishashe hasi, isa neza, yicayeho abana bato.

Abana batoya b'incuke bari mu kigero cy'imyaka ibiri n'itanu bari kumwe n'umubyeyi w'umugore, inyuma yabo hakikijwe indabo n'inzu.

Icyumba gishashemo umuce mwiza ukeye wicayeho abana, imbere y'abana hicaye umubyeyi urimo kubaganiriza. Ni bato.

Abana benshi bato bicaye ku muce usukuye neza, bari kunywa igikoma basa n'abari kwitabwaho mu buryo bw'imirire.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, bambaye inifomo, bafite amakaye bari kwandika, imbere yabo hari umwarimu wambaye itaburiya y'umweru.

Urukarabiro rwubakishije amakaro, harimo imigezi yo gukarabiraho, hejuru hicaye akana k'akanyeshuri, mo imbere harimo undi munyeshuri, n'undi uhagaze inyuma.

Ibishushanyo bibiri bimanitse ku gikuta cy'inzu, hariho ibiganza byerekana inyuguti n'imibare bishushanya.

Abana bato bari mu ishuri bicaye mu ntebe, bafite mudasobwa zabo, bose bari kuzirebamo.

Inzu iri ahantu hitaruye. Inyuma yaho hari izindi nzu z'ubucuruzi, ku rukuta rw'iyo nzu hariho imigezi yo gukarabiraho.

Ikigo cy'amashuri kinini kirimo aho gukinira imbere y'amashuri asakaje amategura, hagati harimo indabo n'ibiti birebire.

Urupapuro runini rwometse ku gikuta ruriho ibishushanyo bifasha abana kwiga n'amazina yabyo yo mu Gifaransa, hariho ibiti n'inzu n'ibindi bitandukanye.

Urupapuro runini rwometse ku gikuta cy'inzu, rushushanyijeho ibikoresho bitandukanye bifasha abana kwiga. Harimo inzu, igikombe, icupa n'ibindi bitandukanye.

Icyapa kiri ku muhanda cyanditseho izina ry'ishuri, iruhande rwacyo hari ibiti birebire, mu muhanda haparitse imodoka inyuma yayo hari inzu.

Udufuniko twinshi tw'ibinyobwa bisembuye n'ibidasembuye, turunze hamwe ku mwenda usa ubururu.

Ibitabo byinshi bisa n'ibishaje birunze mu kabati, harimo ibirunze mu kabati ko hasi ibindi mu kabati ko hejuru.

Abanyeshuri bicaye hamwe, bambaye inifomo bo mu mashuri abanza, bari gusobanurirana mu ishuri.

Abanyeshuri bo mu mashuri abanza bari imbere y'ishuri bambaye inifomo, mbere yabo hari umwarimu uri kugenda wambaye umupira w'umukara.

Icyumba kirimo ameza manini, ariho amasahani n'ibikombe n'ibiyiko bitogeje, n'ibishishwa bya voka, idasukuye.

Abanyeshuri bambaye inifomo. Bateruye ibiryo biri mu idoshi birimo umuceri n'ibishyimbo bivanze n'undi ufashe agasahani mu ntoki. Bose bambaye inifomo.

Abanyeshuri bari kugenda bambuka bagana mu muhanda w'itaka, iruhande rwabo hari amabuye manini cyane, mu kigo hari abandi banyeshuri bari imbere y'ishuri bari kugenda.

Ishuri ririmo intebe, harimo abanyeshuri batatu, bari kureba muri mudasobwa, umwe ari kwereka bagenzi be muri mudasobwa.

Icyumba kirimo ameza n'intebe harambitseho amasahane y'icyuma, hari umuntu uri kwarura umutsima ku masahani.

Amashuri yubatse, imiryango yayo irafunze, bigaragara ko nta muntu uhari.

Ibitabo byinshi, bitondetse neza, bitandukanye, bibitse mu kabati, gafite ibyumba bitandukanye. Hasi hagati no hejuru.

Ikigo cy'amashuri amarembo yacyo arafunguye, kizengurutswe n'uruzitiro rw'ibyuma, amashuri asakaje amabati ashaje, harimo n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Icyapa kinini kiri imbere y'amarembo y'ishuri, kiri kwerekana izina ry'ishuri n'aho ishuri riherereye, amarembo yaho arafunze.

Abana bahagaze mu gisambu ku ruziga, inyuma yabo hari umugabo uhagaze, hagati hari uri kubaha ikiganiro, hafi yaho hari insina n'ibiti bitandukanye n'inzu yo kubamo.

Abanyeshuri batoya bambaye inifomo, bahetse ibikapu bari iruhande rw'ishuri, bamwe barahagaze abandi bari kugenda abandi bari gukina.

Inyubako isakaje amabati ashaje, imbere yaho hari umwana, hakaba hari n'ikigega gifata amazi y'imvura.

Abanyeshuri bari mu rwicundo bari gukina imbere y'amashuri, hakikijwe indabo, amashuri akaba asakaje amabati ya kinyarwanda.

Icyumba k'ishuri kirimo intebe nyinshi zo kwicaraho, imbere hari ikibaho harimo abanyeshuri bahagaze bambaye uniform bahetse ibikapu.

Icyumba cyiza gisukuye, kirimo akabati gafite ibirahure uruhande rumwe, hejuru hatetseho ibikombe by'ubwoko butandukanye.

Amashuri arimo abana b'abanyeshuri bari hanze, mu gahanda kari imbere y'ishuri, imbere yaho hari indabo.

Ibitabo bibitswe neza bitondetse ku murongo, biri mu tubati dutandukanye, biri mu cyumba cy'ububiko.

Abanyeshuri batatu bari mu ishuri, harimo intebe zo kwicaramo, babiri barahagaze imbere y'intebe, undi umwe, aciye bugufi ahetse igikapu.

Abanyeshuri bari imbere y'ishuri, umuryango w'ishuri ufunguye, bamwe bari kuzamuka abandi bari kumanuka, umwe afite ibiryo mu gasahane.

Amashuri menshi yubatse ku murongo, imbere y'ishuri hari umunyeshuri uhagaze n'umwarimu, hakaba hari indabo nyinshi n'ibiti birebire.

Abantu bane bambaye kimwe iniforomo bafite n'udutambaro mu mutwe, bahagaze iruhande rw'inyubako imbere y'umuhanda bahetse ibikapu.

Inyubako imbere ku muryango hinjira, hari umugabo uhagaze yegamiye igikuta, imbere hakikijwe n'indabo zitandukanye.

Icyumba kirimo abanyeshuri benshi bambaye impuzankano n'imipira y'imbeho, bambaye udupfukamunwa, bicaye batuje bakurikiye imbere yabo.

Abanyeshuri bahagaze hamwe mu kibuga ku murongo, bose bambaye inifomu, harimo abambaye imipira y'imbeho n'abatayambaye.

Ikigo cy'amashuri, hagati mu kibuga harimo ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, iruhande rw'ishuri hahagaze umwari wambaye itaburiya.

Abantu benshi barimo abakuru n'abato bakikije ikibuga cy'umupira, basa n'abanyeshuri bari guhabwa amabwiriza y'umukino n'uko bakina.

Abana b'abanyeshuri bicaye mu gisambu iruhande rw'umuhanda hepfo hari amashuri akikijwe n'indabo mu muhanda harimo abandi bari kugenda.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri ku ntebe, bafite amakayi; umwe arambuye ikayi ari kurebamo yambaye umupira w'imbeho n'agapfukamunwa, undi aricaye yegamiye intebe.

Igikarabiro cyubakishije amakaro, gisakaje ibati, harimo icyapa. Iruhande rwacyo hari indabo n'igiti kiriho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Icyumba kiza cyo kuraramo cy'abanyeshuri kirimo igitanda kimwe kigeretse, harimo uburiri bushashe, harimo umwana uri gukora imyenda mu isanduku y'icyuma abikamo imyenda.

Abanyeshuri benshi bicaye abandi bahagaze, bari guhahabwa ikiganiro. Utanga ikiganiro ashyize indangururamajwi umunyeshuri umwe ku kumunwa.

Abanyeshuri bafite amasuka, bambaye inifomo, bari guhinga haruguru y'umuhanda.

Abanyeshuri bambaye iniforume bicaye mu ishuri, bose bafite amakaye n'amakaramu barimo barandika mu makaye yabo.

Abanyeshuri bari imbere y'ishuri bahagaze ku ntebe bafashe ku madirishya y'ishuri, hagati y'amadirishya hari ikarita ishushanyije Igihugu cy'u Rwanda.

Ibitabo bitondetse neza mu kabati kagiye karimo ibyumba bitandukanye, hasi hagati n'icyumba cyo hejuru harimo n'uwicaye ari gusoma igitabo.

Ishuri ririmo abanyeshuri bambaye inifomo bicaye, harimo ufite mudasobwa, hakabamo abagabo batatu bahagaze basa nk'abari gutanga ikiganiro ku banyeshuri.

Icyumba cy'ishuri gisukuye, harimo intebe zo kwicaraho, imbere hari ikibaho cyo kwandikaho, ku ruhande imbere hari ameza maremare.

Abanyeshuri bicaye mu gisambu iruhande rw'akayira imbere y'ishuri, hakikijwe n'indabo zitandukanye n'abanyeshuri bari kugenda mu nzira.

Abanyeshuri benshi bambaye inifomo, bicaye hamwe mu kibuga imbere y'amashuri, iruhande rwaho hicaye abarimu, imbere yabo hari umuntu urimo kubigisha bakurikiye.

Ikibaho cyanditseho Icyongereza, hariho isuzumabumenyi. Hari n'intebe imwe igaragara, agace gatoya, yicarwaho n'abanyeshuri.

Umudozi wicaye ku ntebe, uri imbere y'imashini ye adodesha, ufite umwenda mu ntoki, n'akanzu ari kwandikisha ku mwenda.

Abanyeshuri bicaye mu ntebe bafite amakayi, bambaye inifomo. Inyuma yabo hari akabati kabitsemo ibitabo.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri bigeretse hasi no hejuru, biriho matera enye hejuru hagiye hariho ibikapu by'abanyeshuri.

Abanyeshuri bari mu kibuga, ku murongo imbere yabo hari umwarimu, inyuma yabo hari amashuri n'ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abanyeshuri bambaye inifomo bicaye ku ntebe, imbere yabo hari abagabo bahagaze bari kubaganiriza bambaye udupfukamunwa, harimo n'abashinzwe umutekano.

Abanyeshuri bari mu kibuga k'ishuri ku murongo, bari gukurikira amabwiriza y'umwarimu uri imbere yabo, inyuma yabo hari ibiti byinshi birebire.

Abanyeshuri bari mu ishuri ryiza risa neza. Bicaye ku ntebe n'ameza yo kwandikiraho. Barimo kwandika mu makayi.

Abanyeshuri kugenda mu kayira k'abagenzi iruhande rw'umuhanda, haruguru y'umuhanda hari inzu zo kubamo, hepfo y'umuhanda hari ibyatsi, n'igiti kirekire cyane, hirya hari amashuri.

Ikigo cy'amashuri kirimo inyubako, gifite ubusitani burimo ibiti birebire n'indabo ngufi, mu nzira igana ku nyubako ishashemo amabuye.

Icyapa kinini kiri imbere y'ikigo cy'amashuri, kiriho izina ry'ishuri, n'icyo riga, n'aho giherereye. Hirya hari umuntu uri kugenda. Imbere yaho hari inyubako y'ikigo.

Ikigo cy'amashuri cyubatse gifite uruzitiro rure rure ruri iruhande rw'umuhanda ruzengurutse, hagati y'umuhanda n'uruzitiro harimo indabo, mu muhanda harimo akapa kayobora imodoka.

Ishuri ririmo intebe abanyeshuri bicaraho n'ikibaho cyanditseho, hakaba harimo ibikoresho bibitse mu bikarito ndetse n'igishushanyo cyanditseho imibare.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, imbere yabo hari umwarimu, ufite ingwa mu ntoki, ari kwandikisha ku kibaho.

Abanyeshuri benshi bicaye hamwe, imbere yabo hahagaze umukobwa usa nk'uri kubigisha bamukurikiye, undi munyeshuri umwe w'umukobwa arahagurutse asa nkuri kugana imbere.

Abanyeshuri bambaye inifomo basa neza bari ku murongo, imbere yabo hari abarimu babiri bari kubabwira, hakaba hari n'ibendera ry'Igihugu.

Intebe ziri mu cyumba kirimo umucyo, abanyeshuri bicaramo, zimwe zitenze hasi, izindi zigeretse hejuru y'izindi.

Abakinnyi bari mu kibuga barimo barakina volley. Hirya y'ikiga hari abandi bari kureba umupira hari n'abicaye mu itente yubatse imbere, hari n'abanyeshuri bisa nkaho ari mu kigo cy'amashuri.

Amarembo y'ikigo cy'amashuri yisumbuye, urugi rw'umuryango wacyo hariho izina ry'iki kigo cy'ishuri.

Ikibaho cy'umukara kiri mu ishuri, imbere handitsweho n'ingwa zitandukanye z'amabara, hino yaho hari intebe irambitseho ikayi bisa nkaho umunyeshuri ari kwiga.

Ishuri ririmo abanyeshuri benshi bambaye inifomo bicaye ku ntebe ku buryo bakoze uruziga, hagati yabo harimo umugabo urimo kubigisha bamukurikiye.

Icyapa kinini kiri ku muhanda, cyanditseho izina ry'ikigo cy'amashuri yisumbuye, hariho n'isomo ryigisha.

Icyumba gisa neza gisukuye kirimo intebe zitondetse neza gisa naho ari icyumba cyo kwigiramo, imbere hari ikibaho.

Abanyeshuri benshi bicaye hasi mu kibuga k'ishuri, inyuma yabo hari ibiti birebire bakikijwe n'amashuri imbere yabo hari umugore ufite indangururamajwi uri kubabwira.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe senyenge, imbere y'ishuri hari igiti kirekire, mu muryango w'amashuri hahagazemo abana b'abanyeshuri.

Ifoto iri kugaragaza ishusho y'inuma na bikira Mariya ufashe igitabo mu ntoki n'ikigo cy'amashuri n'abanyeshuri bari gutanga amakuru atandukanye.

Imodoka ihagaze mu muhanda urugi rwayo rufunguye, hari akandi gahanda kazamuka karimo abanyeshuri, hirya yaho hari inyubako nini, hagati harimo ibyatsi.

Amashuri yubatse neza ku murongo, imbere yayo hari ikibuga kinini n'igiti kirekire, inyuma y'aho hari ibiti byinshi bitandukanye.

Icyumba kirimo umuryango winjira mu kindi cyumba, harimo ibitanda bibiri, bigerekeranyije hasi no hejuru bishashe, hakabamo n'ameza ateretseho ibikapu by'abanyeshuri.

Ikigo cy'amashuri gifite ubusitani burimo indabo, inyuma yabwo hari igiti kirekire, mu busitani harimo ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Inyubako y'ishuri hanze yaho hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda hakaba n'ibyatsi birikikije.

Abanyeshuri bari mu ishuri bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza manini hari umwarimu uri kubereka muri mudasobwa.

Inyubako nziza ikeye yubatse igeretse, hanze imbere yayo hari ubusitani bwiza buzengurutswe n'indabo.

Amarembo y'ikigo cy'amashuri hariho izina ry'ikigo, ku ruhande hariho igishushanyo cya Bikira Mariya atereye umwana n'indangagaciro z'ikigo.

Inyubako yubatse neza icyeye igeretse y'amashuri, mu marembo hari kandagira ukarabe, hakaba n'umugabo uhagaze imbere y'umuryango ufunguye, ibyuma bizengurutse inyubako bisa ubururu.

Abanyeshuri benshi bicaye bambaye inifomo bari gukurikira ikiganiro, imbere yaho hari umukobwa ufite mikoro uri kubaganiriza.

Abanyeshuri bari kugenda mu muhanda, hari imodoka iri kugenda mu muhanda, iruhande rw'akayira k'abagenzi hari icyapa cyerekana ko hari inzira abanyamaguru bambukiramo.

Abanyeshuri benshi bambaye n'ifomu bicaye hasi, hirya hari ishuri, imbere yaryo hari indabo n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umwarimu uri mu ishuri wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu, ufite ingwa mu ntoki arimo kwandika imbere ku kibaho.

Ishuri ririmo abanyeshuri, hari umwarimu uri kubayobora, harimo n'undi imbere yabo, urimo kubafata amashusho, n'abandi bicaye imbere.

Abanyeshuri bari mu muhanda, hari n'imodoka zihagaze, bahetse ibikapu, batwaye matera mu ntoki bagiye ku ishuri.

Imodoka nini ihagaze mu muhanda iri kwinjiramo abanyeshuri bahetse ibikapu basa n'abagiye ku ishuri.

Uruzitiro rwiza ruzengurutse ikigo cy'ishuri rwubakishijwe amatafari ahiye n'ibyuma haruguru mu kigo harimo abanyeshuri bambaye inifomo n'indabo nziza ndende.

Umwana w'umunyeshuri uhagaze imbere y'abandi bicaye bamukurikiye, ufite indangururamajwi mu ntoki ze, imbere ye hari ameza ateretseho amakaye.

Icyapa kinini kiri imbere y'ikigo cy'amashuri cyanditseho izina ry'ishuri n'abahiga, mu kigo harimo imodoka ziparitse n'umuntu ari kugenda.

Abanyeshuri bari kugenda mu kayira kabagenzi ku muhanda, umwe ari mu muhanda haruguru y'umuhanda hari ibiti birebire bishishe, hepfo y'umuhanda hari inzu n'ibiti.

Abanyeshuri bari mu ishuri bicaye bakikije ameza, bafite ibyo kunywa, abandi barahagaze bari kubarurira, buri munyeshuri agiye afite n'umuneke imbere ye ku meza.

Abanyeshuri benshi bambaye inifomo, bamwe bicaye kuri sima hanze abandi barahagaze, basa n'abari gukurikira uri kubavugisha.

Ikibaho cy'umukara kiri imbere cyanditseho amagambo menshi atandukanye n'ingwa z'amabara atandukanye n'umwana ugaragara umutwe.

Icyumba kirimo abantu bambaye amakanzu maremare y'umweru, n'intebe zo kwicaraho, bafashe ibitabo mu ntoki, basa n'abari kuririmba, bose.

Akabati kabitsemo ibitabo bitondetse, hejuru y'ibitabo hari bibiriya, iruhande rwaho umuce.

Icyumba gisukuye gisa neza, kirimo abantu bicaye mu ntebe, imbere hari abandi bicaye, bayoboye ikiganiro.

Akabati karimo amavuta y'ubwoko butandukanye, hagaragara n'igitanda cyo kuryamaho imbere yako.

Icyumba kirimo akabati kamanitseho ibikapu byo kubikaho imyenda hejuru mu kabatarimo amavuta kwisiga y'ubwoko butandukanye.

Ibitabo byinshi bitondetse neza, bitandukanye bibitse mu kabati gafite ibyumba bitandukanye.

Inyubako ndende cyane, hasi yaho hari ikibuga kinini. Hari ibiti byinshi biyizengurutse n'abantu bari hasi yayo.

Icyumba cy'inama kiza gisukuye, kirimo abantu bicaye ku ntebe harimo n'uhagaze usa n'uri kubaha ikiganiro, abicaye barakurikiye hari n'abafite amakayi barimo kwandika.

Icyumba gisa neza cy'ishuri kirimo intebe n'ameza yo kwandikiraho, imbere hari kibaho n'ameza maremare, hahagaze abantu babiri ku muryango.

Icyumba kigari kirimo intebe zo kwicaraho z'ubururu n'umutuku, harimo abantu benshi bahagaze, bari gukurikira ikiganiro, imbere yabo hateguye hari n'uri kubaganiriza.

Ishuri ryubatse neza risize irangi, risukuye, rifite inzira yo kunyuramo imbere yaryo.

Inyubako ndende isize amarangi meza, iruhande rwayo hari inzira iri kugendamo abagenzi, hari n'ibiti binini n'indabo.

Icyumba cyo kuraramo, kirimo uburiri bushashe, hakabamo ameza ateretseho amavuta yo kwisiga, uburoso n'umuryango.

Icyumba cy'ishuri kirimo umunyeshuri uri kureba muri mudasobwa, harimo n'intebe zo kwicaraho, zitariho abandi banyeshuri, imbere hari ikibahu cyo kwigiraho.

Icyumba kinini kigali, cyicayemo abantu benshi, batandukanye. Imbere yabo hari ameza ariho, mudasobwa nyinshi. Imbere yabo hari umuntu, uri kubaganiriza.

Icyumba kirimo ameza manini, ateretseho ibitabo, imitaka, amavuta n'amacupa atandukanye, hari n'intebe ebyiri.

Ishuri ririmo intebe nyinshi n'ameza yo kwigiraho, intebe zimwe ziri imbere izindi zifatanye n'ameza bigiraho birasa neza harimo na porojegiteri.

Inyubako ndende ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane, burimo indabo zitandukanye n'ibiti birebire biri imbere y'inyubako, hari n'inzira yo kunyuramo yubakishije sima.

Inyubako nini, ifite aho kuzamukira uganayo. Ku ruhande rwayo hari indabo, hejuru ku muryango handitseho ko ari inzu y'ibitabo.

Icyumba gisukuye gisa neza, kirimo ikirango cya kaminuza y'u Rwanda, harimo intebe, n'ameza ariho ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga ubuvuzi.

Icyumba cyo kuraramo kirimo ibitanda bibiri bifite hasi no hejuru, biriho uburiri bushashe neza hakeye, hari n'imyenda imanitse, hagati y'ibitanda hari ibikapu birimo imyenda.

Inyubako ikikijwe n'ibiti byinshi hagati yabyo harimo imihanda.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, imbere yabo hari ameza ariho amakayi, hari umwarimu urimo kubigisha imbere ye hari mudasobwa.

Icyumba kinini kigari cyitaruye, kirimo abantu bicaye mu ntebe mu bihande bitandukanye. Imbere harateguye, hasa n'ahagiye gutangirwa ikiganiro.

Inyubako nziza ikeye neza cyane, iruhande rwayo hari ubusitani burimo indabo n'ibiti birebire bisukuye.

Inyubako ndende cyane ifite amadirishya n'ibirahure; hasi ifite ibyuma byubatse biyizengurutse, hahagaze umuntu mu nzira yinjira muri yo.

Ibiryo byinshi by'ubwoko butandukanye bitetse neza, biri ku meza magari, hagaragara amaboko y'abantu barimo gufungura, hari n'ibinyobwa mu birahure.

Abantu bicaye hasi mu gisambu, bafite amakaramu mu ntoki, undi uyifite mu kanwa, imbere yabo hari mudasobwa.

Icyumba kirimo abantu benshi batandukanye bicaye. Imbere yabo ku meza hari mudasobwa bari kurebamo, bateretse n'amazi yo kunywa.

Icyumba kirimo intebe ziriho n'ameza harimo umukobwa uhagaze, uri gufunga igikapu harimo n'undi mukobwa wicaye hejuru harimo amatara ari kwaka.

Mu ruganda rurimo imashini nyinshi zitandukanye, harimo na mudasobwa ahateretse utubati.

Akabati karimo ibyumba bitandukanye, kabitswemo ibitabo, bitondetse mu buryo bwiza, butanga amakuru.

Icyumba kirimo utubati twinshi dutandukanye tubitsemo ibitabo bitondetse neza bisukuye.

Abantu bicaye imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa, bose bari kureba muri mudasobwa n'undi umwe uri gukora muri telefone.

Icyumba kirimo ibishushanyo n'ibirango bya kaminuza y'u Rwanda. Harimo abantu batandukanye; abagabo n'umugore bari kureba muri mudasobwa, abandi bari kureba muri telefoni.

Inzugi z'ibiro ziriho nimero y'i icyumba, akandikaho n'izina ry'ibiro bikorerwamo.

Icyumba cyiza gisukuye cyo kuraramo, harimo tapi, harimo intebe ebyiri, harimo ameza ateretseho ikayi, mudasobwa na telefone bisa nkaho ari umunyeshuri unahigira.

Inzu nini irimo intebe nyinshi ziri mu bihande bibiri, hagati y'izo ntebe harimo inzira yo kunyuramo, imbere hicayemo abantu mu ntebe haranadekoye bisa naho ari muri kiliziya.

Icyumba gisa neza kirimo ameza atandukanye afite utubati, hariho ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri kwiga, harimo n'intebe iteretse iruhande rw'ameza.

Urukuta ruri hagati, ruriho ikirango cya kaminuza y'u rwanda, hariho amagambo n'ikirango byerekana ko bibujijwe kuhanywera itabi.

Abubatsi bambaye inifomo y'umwuga, bafite imyiko mu ntoki, bari gushyira sima kuri fondasiyo.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri bishashe neza, kitari kinini, haruguru yigitanda hari akabati karimo inkweto, hejuru y'akabati hari utubido.